Abantu bicaye imbere hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse na rinete, afite igipimo mu matwi gipima uburyo umutima utera, iruhande rwe hari umugabo uhagaze.

Ni ikirango kiriho ifoto y'abantu babiri, hariho umuganga ndetse n'uwo ari kuvura. Bigaragare ko ari kumupima mu kuboko. Haranditse ngo ibyishimo by'imiryango ni ukudahangayikira ahazaza, hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza bwawe n'ubw'umuryango wawe. Ni byiza gukoresha ubwishingizi bwa Radiyanti.

Umugabo uri gusekereza ahetsa igikapu cy'umukara, yambaye ikote ry'umukara ishati y'umweru ipantaro ya kaki yanatebeje n'umukandara w'umukara, munsi haranditse ngo ushaka gufata urugendo utekanye sonarw irahakubereye n'ubwishingizi. Ku ruhande Hashushanyijeho indege.

Iduka ricuruza imyenda n'inkweto rigaragara ko harimo ibicuruzwa byinshi kandi bitandukanye, imbere hari igishushanyo cyambaye ikanzu, bigaragara ko kiri kwamamaza ko hacururizwa amakanzu.

Inzu nini isize irange ry'umweru, irimo imyenda itandukanye harimo amakote, harimo n'imyenda y'abagore imanitse ku byuma bifite ibara ry'umukara.

Ahantu heza cyane kandi hanini hari imyenda itandukanye y'abagore, dukunze kwita amakanzu, aramanitse bigaragara ko ari gucuruzwa, imbere yaho hahagaze umugore wambaye ikanzu y'igitenge bigaragara ko ari we uri kubicuruza.

Iduka rinini cyane rimanitsemo imyenda y'amabara atandukanye, hari n'indi myenda izinze ndetse hari n'ibishushanyo byambaye imyenda itandukanye, bigaragara ko hano hacururizwa imyenda.

Imyambaro myiza iri ahamanitse igikuta kirimo amabara y'umukara n'umweru. Hari ivaze irimo indabyo. Hari amakaro meza avanzemo amabara y'umuhondo, umweru n'umukara.

Iduka ryiza cyane rifite etajeri ifite ibara ry'umweru, irimo inkweto zigiye zitandukanye, imbere yazo hari amashusho yambaye amakoti agiye atandukanye, bigaragara ko aha hantu hacururizwa imyenda ndetse n'inkweto.

Abagabo bane bahagaze bafite ikirango mu ntoki, babiri bambaye ishati y'umweru, umwe afite agakapu kari mu ibara ry'umutuku, undi yambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'umweru, undi yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, bahagaze imbere y'imodoka iparitse...

Imodoka nziza iparitse ahantu heza kandi hanini, bigaragara nk'aho iri kugurishwa cyangwa se iri kwamamazwa. Hejuru hariho igiciro, hirya yaho hari uburyo ishobora kugurwa.

Abagabo batatu bafite igifunguzo kinini cyanditseho Akagera motozi nyuma yaho hari ikimodoka kinini cyane cyiza kigaragara ko ari gishya wagira ngo ni icyo bamaze kugura.

Imodoka ziparitse nyinshi ziri mu ibara ry'umweru, inyuma yazo hari ibiti ndetse n'inzu ndende dukunda kwita etaje imwe, iri mu ibara ry'umuhondo indi iri mu ibara ry'umukara bigaragara ko ikikijwe n'ibirahure.

Abagabo babiri n'umugore umwe, umugore ufashe igifunguzo cyanditseho Akagera motozi, iruhande rwabo hari imodoka nziza y'umukara, ni iyo bamaze kugura muri kampani yitwa Akagera motozi.

Ni imbuga nziza iparitseho imodoka enye nshyashya zitwara abagenzi. Inyuma yazo hari ishyamba. Ku ruhande rwo hepfo hari inzu iri guhinguka ihubatse ifite irangi ry'ivu.

Inzu nini ifite amatara y'umuhondo, imbere yayo hari amapave, haparitse imodoka iri mu ibara ry'umukara, imbere y'imodoka hari abantu babiri bahagaze bafite n'icyapa mu ntoki, bigaragara ko bari kwamamaza.

Ku makaro haparitse imodoka y'umweru, ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku. Inyuma y'iyo modoka hari imeza iteretseho icupa ririmo amazi ndetse n'impapuro, dukunze kwita imvaho.

Ibiganza bibiri bifashe amafaranga mu ntoki, ku ruhande hari utundi tuntu turimo ibiceri, imashini ibara amafaranga ndetse na mudasobwa.

Imashini iri mu ibara ry'umukara iteretse ku meza, imbere yayo hari kontwari irimo amafaranga, iruhande rwayo hari umuntu ufite amafaranga mu ntoki atandukanye, bigaragara ko ari kuyabara.

Ibiganza bibiri biri guhererekanya amafaranga, umwe ari inyuma y'ikirahuri undi ari imbere yacyo, aha ni muri banki aho iyo umuntu amaze kubikura amafaranga bayamuhereza bayanyujije muri uriya mwenge uciye ku kirahure.

Abantu bicaye umwe yambaye ikote ry'umukara, ishati y'ubururu na karuvati y'umukara, undi yambaye ishati y'umweru, imbere yabo hari ameza ariho imashini zitandukanye, bigaragara ko hatangirwa serivisi zo gusohora inyandiko.

Ibiganza bibiri bifite inzara nziza bifashe amafaranga mu ntoki, amafaranga si ayo mu Rwanda. Ahubwo n'ayo mu bindi bihugu byo hanze, imbere y'ibyo biganza hari akamashini kabara amafaranga kari mu ibara ry'umutuku. Amatushe yandikishije umweru, imibare iri mu ibara ry'umweru ariko yanditse ahantu hasa umukara.

Icyuma kinini gikusanyirizwamo amata ndetse kikanayatunganya, iruhande rwacyo hari umuntu wambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'ishati y'umukara, afite ikani mu ntoki bigaragara ko ari gusuka amata ayakura mu ikani ayashyira muri icyo cyuma kinini.

Abantu babiri, umwe aricaye undi arahagaze, ku ruhande hari intebe ifite ibara ry'ubururu, ku ruhande na none hari icyuma kiri mu ibara ry'ubururu, ndetse n'umweru, gitunganyirizwamo amata, inyuma y'umuntu wicaye hari etajeri, irimo amacupa yanditseho inyange, arimo amazi ndetse na ji.

Icyuma gishyirwamo amata, bigaragare ko hano hatunganyirizwa amata y'inyange, imbere hari ijerekani iri mu ibara ry'umweru, bigaragare ko iri gushyirwamo amata, inyuma hari icyapa gishushanyijeho ibishushanyo bitandukanye, bigaragare ko hano hatunganyirizwa amata y'inyange, kugira ngo uje kuyagura ayatware, afite umwimerere.

imeza iteretseho indobo iri mu ibara ry'umweru bimbere harimo amandazi abiri ndetse n'igikoresho bakoresha batanga amandazi cyo dukunze kwita igifurushe iyo ndobo irapfunduye hejuru hariho umupfuniko wayo.

Ahantu hacururizwa ibyo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye, hejuru kuri kontwari hateretseho indobo z'umweru zirimo amandazi, imigati ndetse n'ibindi, iruhande rwayo hari abantu babiri bahagaze, umwe afite akabido kari mu ibara ry'umuhondo, muri kontwari harimo utubido dufite ibara ry'umweru.

Mu nzu ishashemo amakaro hateretse inkongoro yuzuye amata, hirya hari agatebe k'umuhondo katicayeho umuntu. Hari umwana w'umukobwa uhetse agapu k'umukara uri kureba muri telefone.

Abantu bicaye ahantu mu nzu ku ntebe z'umweru bari kwinywera amata, burya uzanywea amata kuko ni meza cyane, ibikuta birasa umweru hari n'andi mabara y'ubururu ku ruhande.

Akumba gatoya kubabatse karimo amacupa agera kuri atandatu arimo amazi ya Jibu, gafungishije ingufuri ebyiri, amacupa manini ari mu mabara y'ubururu ndetse n'amarange asize ku nzugi z'ako kazu nayo asa ubururu.

Utubido dutereretse hasi ku makaro dufite ibara ry'umweru, ku ruhande hariho akandi kabido gafite ibara ry'umuhondo gafunikishije umufuniko w'umutuku, utwo tubido twanditseho amazina bigaragara ko ari ay'abantu, iruhande hari akuma gahari dukunze kwita ikani kajyamo amata.

Mu tudobo tubiri tw'umweru turimo kamwe amandazi, akandi harimo keke, duteretse ahantu ku meza ashaje. N'ikaramu ku ruhande. Inyuma hari umuntu uri kugenda, inyuma ye hari ishyamba rigaragara ryijimye.

Inyange milike zone ni ikigega cyanditseho ayo magambo, bivuze ko wahashakira ibijyanye n'amata byose by'umwihariko amata y'inyange, aba ari amata meza aryoshye, turabibona hari utovido turimo amata, udokarito ndetse n'ibindi bishashi ndetse n'ibicupa birimo amazi ya jibu.

Ahantu harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye dukunda kwita muri kantine, harimo ji ndetse n'imigati, harimo utubido tw'umweru tuba turimo amata, hejuru kuri kontwari hari udukombe ndetse n'uducupa ducururizwamo amata bita yogati. Imbere harimo umuntu ufite akabido k'amata, bigaragara ko ari kugaha umuntu waje kukagura.

Imeza iriho agatambaro gafite amabara atandukanye, hateretseho igikombe cy'ikirahure kirimo amata, ndetse n'isahani iriho ibyo kurya, hirya hateretseho ikindi gikombe cy'umweru, ndetse n'akandi gakombe kari mu ibara ry'umuhondo, iruhande hicaye umugore ufite amafaranga mu ntoki, iruhande rwe hari firigo iri mu ibara ry'umutuku, hashushanyijeho icupa.

Imeza iteretseho udukombe, uducupa ndetse n'utubido biri mu mabara atandukanye, bigaragara ko utuducupa ndetse n'utu tubido turimo amata dukunda kwita yahurute cyangwa se "yogati" bigaragare ko hano hacururizwa aya mata.

Amabwiriza agenga emutiyeni mobiyiromani. Uburyo wakwakira, ukohereza amafaranga, ukagura umuriro, ukagura amayinite, ukagura bando n'uburyo wakoresha banki unyuze kuri mobayiromani, kwaka inguzanyo, gufunguza konti n'ibindi. Kurikiza amabwiriza, wikoreshereze mobiyiromani.

Amabwiriza agenga uburyo ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, nka telefoni cyangwa se n'ikindi gikoresho, gikoresha ikoranabuhanga, biragaragara ko hari uburyo ushobora kwishyura amafaranga, kugura, kujya muri banki za serivisi, ukoresheje ikoranabuhanga, hagati harimo ijambo ryandikishije ibara ry'umuhondo, rigaragara nkaho ariryo bahisemo.

Umukobwa uhagaze wishimye, wambaye umupira w'umuhondo, afite amafaranga atandukanye mu ntoki, afite amafaranga ibihumbi bitanu ndetse n'ibihumbi bibiri bigaragara ko avuye kuyabikuza kuri banki, munsi hari n'iki n'ikirango cya banki byerekana ko akuye amafaranga kuri banki.

Ibiganza bine. Bibiri bibiri biri guhererekanya amafaranga. Inyuma ku gikuta harasa umukara. Aya mafaranga aratandukanye rwose, ntanganya ubushobozi n'imibare. Ikigaragara ni uko aba bantu babiri bari kuvunjisha.

Inzu nini itangirwamo serivisi zitandukanye, imbere yaho hari icyapa gishushanyijeho amafaranga, hejuru y'icyo cyapa handitseho Eyateri. Mu muryango hahagazemo umugabo, bigaragare ko avuye mo imbere muri iyo nzu, ashobora kuba atanga serivisi cyangwa se avuye kuyihabwa.

Inzu nini cyane irimo intebe nyinshi nziza ziri mu ibara ry'umukara imbere y'izo ntebe hari ameza ari mu ibara ry'umweru ateretse hariho ibishushanyo ku ruhande hariho imashini bigaragare ko hatangirwa serivisi.

Abantu babiri bahagaze bigaragara ko hari serivisi bari guhabwa imbere yabo hari abandi bantu bicaye bari kubaha serivisi bigaragara ko hano hantu hatangirwa serivisi zo kuvunja amafaranga.

Inzu ndende ifite ibara ry'umuhondo, imbere yayo hari icyapa cyanditseho amagambo ndetse na nimero za telefone, bigaragara ko hatangirwa serivisi zo kwishyura.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo kiriho amagambo yandikishije ibara ry'umutuku, ndetse n'ibara ry'ubururu, bigaragara ko ari ahantu hakorerwa cyangwa se hatangirwa serivisi zijyanye no kuvunja amafaranga.

Inzu ndende kandi nziza iri mu ibara ry'umweru, imbere yayo hari amapave ndetse n'intebe n'imeza, bigaragara ko hicarwa n'abantu benshi, bakahafatira ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bitandukanye.

Salo nziza cyane iri mu ibara ry'umweru, irimo intebe zifite amabara atandukanye, harimo izifite amabara y'umukara imbere yayo hari ameza, bigaragara ko ariho abantu bicara bagafata amafunguro, inyuma yazo hari izindi ntebe zifite imisego ndetse n'utundi dusego duto turi mu ibara ry'umweru n'umukara.

Inzu ndende yubakishije amabati gusa, imbere yayo hari intebe zirimo imisego ifite ibara ry'umukara, akabati karekare ku ruhande ndetse n'akameza imbere y'izo ntebe.

Ahantu hanini hari ibikoresho bigiye bitandukanye by'ububaji, hari intebe, hari ameza, hari n'utubati turi mu bwoko butandukanye tureture, ndetse hasi hari itapi, ndetse n'akameza gafite udutebe tubiri ku ruhande.

Inyubako yubatse iri iruhande rwa pisine, inyuma hari ahandi hantu hagiye hateguye hari imitaka n'ameza y'umukara n'intebe z'umukara hari na jaride n'indabyo zitandukanye.

Salo nziza ifite ibara ry'umweru ku rukuta hariho televiziyo, hasi hariho tapi iteretseho intebe, imbere yayo hari udutebe kamwe gateretseho udukombe tubiri.

Inyubako nziza ndende ya etaje ifite imiryango myinshi n'amadirishya menshi, yubatse inyuma ya pisine ifite ibara ry'ubururu, ku nkengero za pisine hari abantu babiri bahicaye n'abandi babiri bari gutambuka ndetse hashashe n'amapave.

inzu nziza cyane ifite ibara ry'umweru hejuru harimo itara rifite ibara ry'umuhondo. Hateretsemo intebe zitandukanye zifite imisego ifite ibara ry'umweru ndetse n'andi mabara atandukanye. Hagati hateretsemo akameza k'ibirahure, haririmo igitabo munsi, hejuru hateretse ururabyo rw'umutuku.

Ni ahantu mu busitani hateguye neza wasohokera, ukahatemberera wowe n'umuryango wawe n'inshuti. Hari intebe nziza cyane ziboshye mu birere, hari n'agataka. Hirya hari jaride nziza. Hari ibiti byiza bizana umuyaga. Hakurya turahabona ahantu hari amazi magari, ateyeho udutebe ku ruhande.

Inzu inziza isa neza irimo amatara y'umuhondo, irimo ameza ateguyeho udutambaro tw'umweru, ndetse n'intebe, ifite n'amatara y'umutuku. Imbere yayo hari pisine bigaragara ko ari aho abantu barira ndetse bakanoga.

Inyubako ndende ya etaje isize amarangi agiye atandukanye, harimo irangi ry'umukara, irangi ry’ibara ry’ivu n'irangi ritukura, yanditseho metosi, wayishakira i Kigali mu Rwanda.

Ahantu heza wakwicara muri babiri, hari intebe zisa ibihugu, akameza karekare kariho ibirahuri bibiri, iyo uhari uba witegeye umujyi wa Kigali, dore ni mu masaha ya nijoro.

Inyubako nziza iri kwakamo amatara y'umuhondo n'ay'ubururu, munsi nk'uko bigaragara hari pisine irimo ibara ry'ubururu, harimo imitaka ya MTN, ibiti bihateye ku ruhande bihagira heza.

Inzu ndende kandi nziza cyane, iriho indabyo ziteguye neza, imbere yayo hari imitaka irimo intebe, yicayemo abantu ndetse n'akameza, bigaragare ko ari aho abantu bafatira ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, imbere yaho hari pisiine bigaragara ko banahogera.

Inzu nini cyane ndetse ndende, imwe dukunda kwita etaje, ikikijwe n'ibyuma bigiye bitandukanye, imbere yayo hakikijwe ibyuma ndetse hari jaride iteyemo igiti.

Abantu babiri bicaye umwe yambaye ishati y'umweru imbere ye harimo imeza iteretseho imashini zitandukanye, hari n'impapuro nyinshi ndetse n'icupa imbere ye harimu umugabo ufite ikirahure mu ntoki.

Umugore n'umugabo bose bambaye neza, bari imbere y'abakozi bakora muri banki. Umwe ari ku cyumba cya mbere undi ari ku cyumba cya kabiri, bose baje kwaka serivise zo kwakira amafaranga. Muri banki hafite isuku, harasa neza ibikuta by'umweru, amakaro n'ibindi.

Inyubako nziza igiye isize amarange harimo umukara n'umweru, hari ipoto y'amashanyarazi itwarayo umuriro, ikikijwe n'utugiriyaje tugufiya turi mu ibara ry'umukara, n'uturabyo tw'icyatsi imbere y'utwo tugiriyaje.

Umugabo uri guseka wambaye ikoti ry'umukara imbere harimo ishati y'umweru afite urupapuro mu ntoki, imbere ye hari hateretse imashini n'agakombe k'umweru ku meza bigaragara ko yishimye kandi ari kwamamaza.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo, ndetse n'umweru hariho umukobwa wambaye ikote ry'umweru, biragaragara ko ari ikirango cya banki ari kwerekana uburyo ushobora kubagana bakagufasha muri serivisi zijyanye n'amafaranga.

Abantu bagiye gusaba serivisi ahantu runaka, dore bamwe bambaye imipira y'icyatsi cyerurutse abandi bambaye amashati y'umweru aba bambaye amashati y'umweru nibo bari kwakira abakiriya, ku meza ahari harambitseho mudasobwa, abandi baricaye bari kurebana bafite impapuro mu ntoki.

Urupapuro ruriho amagambo ndetse hariho n'imyanya igiye itandukanye myinshi, bigaragare ko ari imyanya yuzuzwa n'umuntu ugiye gufata inguzanyo y'amafaranga.

Ishusho yanditseho ngo rya ubuzima na I&M banki, disi fesitivo sizoni, mirongo itanu miliyoni, koratero furironi, aha ni ikirori giteganywa cya banki mu gushimira no kwizihiza umunsi mwiza wo kuba iyi banke, ikora neza, ikorana n'abaturage.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, cyanditswemo amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, hejuru hateretseho baro ifite ibara ry'icyatsi, haciyemo akarongo k'umweru, handitseho amagambo, bigaragara ko ari ikirango cya banke.

Ni ikirango cyo kwamamaza handitseho ngo iyubake na ayi endemu banke ninde wemerewe inguzanyo, hariho ifoto y'umugabo wambaye ikositime y'umukara, wishimye wifashe neza.

Imbuto nyinshi ziri mu bwoko butandukanye harimo: amapapayi, harimo amaronji, ibinyomoro, inanasi wotameloni, pome, imineke ndetse n'ibindi. Ku ruhande hari umuntu uhicaye bigaragare ko ari gucuruza izi mbuto.

Isoko ricururizwamo ibiribwa byinshi bitandukanye, harimo ibirayi, harimo ibitoki, ndetse harimo n'abantu benshi baje guhaha ibyo bicuruzwa, hari abantu bicaye bigaragara ko ari abacuruzi b'ibyo bicuruzwa, hari n'abandi bahagaze bigaragare ko baje kugura ibyo bicuruzwa.

Mu gasoko ahacururizwa imbuto, imboga, hari karoti, intoryi, pavuro, insenda, indimu hakurya, hari n'abamama bari kuhacuruza.

Inzu ndende cyane dukunda kwita etage, iriho ibyapa bigiye bitandukanye ndetse ikikijwe n'ibirahure byinshi. Imbere hari icyapa gifite ibara ry'icyatsi ndetse cyandikishijwemo amagambo y'umuhondo, bigaragara ko aho hantu hari banki ihakorera.

Isoko rinini ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo inyanya, harimo intoryi, harimo imyenda ndetse n'ibindi, hahagazemo abantu benshi, harimo abagore bahetse abana, abana bato ndetse n'abagabo, imbere yabo hari intebo zirimo inyanya.

Isoko ririmo imyenda icuruzwa itandukanye, hari iyi imanitse, hari n'iyi izinze, iri hejuru ku bitebe. Iruhande hicaye abantu, bigaragare nkaho ari abacuruzi b'iyo myenda.

Umugore wicaye ufite icyuma mu ntoki ndetse n'ifi mu ntoki, imbere ye hari amabasi menshi arimo amafi atandukanye, bigaragara ko ari gutunganya aya mafi ndetse akanayacuruza.

Ahacururizwa imitako gakondo, harimo umukobwa wambaye imipira itukura, afite umusatsi w'umukara, hari uduseke, hari udukoko, hari imiringa y'indi wakwambara ku ijosi, iyo wataka mu nzu, ibyibo n'ibindi.

Niho wagurira ibikoresho gakondo birimo udusika duto, imideri ndetse n'utundi tuntu n'indi miringa wataka mu nzu cyangwa ukambara mu ijosi no ku maboko. Nk'uko tubibona birahari biri mu mabara atandukanye, hari n'udukapu tugiye turi mu mabara y'ubururu n'icyatsi.

Ahantu hari abantu benshi bikoreye imitwaro, bajya mu bice bitandukanye, hari moto ziparitse ndetse n'imodoka ziri mu bwoko butandukanye zihaparitse, bigaragara ko aho hantu hahurirwa n'abantu benshi ndetse haparikwa n'imodoka nyinshi zitandukanye.

Ibihingwa bihingwa mu ntara, harimo amateke, ibijumba n'imyumbati. Hano hari abantu baje kugura n'abagurisha imyumbati. Umugabo wambaye ikoti ry'umukara wicaye ku bibaho bisa nabi, n'abandi bantu bari kuza bava mu modoka baza kugura.

Isoko rinini cyane ricururizwamo inkweto, ziri mu bwoko butandukanye. Hahagazemo abantu, ku ruhande hari umuryango, inyuma yawo hahagaze abantu batatu, umwe aricaye, babiri barahagaze, bigaragara ko bari kuganira. Imbere yaho hari abandi bantu benshi bahagaze, bigaragara ko na bo ari ibiganiro barimo.

Abantu benshi bahagaze, ku ruhande hari ibyapa bifite ikirango kirimo ibara ry'umutuku ndetse n'umweru hashushanyijeho n'ibintu bitandukanye, hejuru handitseho Eyateli, bigaragara ko ari ahantu hatangirwa serivisi za Eyateli, harimo abantu bambaye imipira y'imituku bigaragara ko bari gutanga izo serivisi.

Akazu kari mu ibara ry'umutuku kanditseho Eyateri, bigaragara ko hatangirwa serivisi z'amafaranga zijyanye no kwishyura, kubitsa, kubikura ndetse, ndetse no kugura amayinite. Imbere y’ako hahagaze abantu batatu bigaragara ko baje gushaka serivisi z'ibijyanye n'amafaranga.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo, bigaragara ko gatangirwamo serivise za MTN, imbere yako hagaze abantu babiri, umwe yambaye ijire irimo ibara ry'umuhondo, ndetse n'umurongo w'umweru, undi yambaye umupira w'umuhondo bahagaze imbere bigaragara ko ari abakozi ba MTN.

Intoki ziri gukanda muri telefoni yanditseho IU, inyuma yayo hari ikirango cya MTN kiba kiriho imibare wakanda ukishyura amafaranga ku ikoranabuhanga batagukase, mu ruhande rw'ibumoso hari amakaziye arimo inzoga ari mu ibara ritukura.

Icyapa gifite ibara ry'umuhondo cyanditseho MTN, imbere harimo abantu, hari n'ameza ateretseho ibikoresho. Imbere yaho hari abantu bahagaze, hari n'umugabo wambaye umupira w'umuhondo, bigaragara nkaho ari guha serivise uri kuyimusaba.

Utuzu tubiri kamwe gafite ibara ry'umutuku handitseho Airtel, imbere hariho ikirango cya MTN, mo imbere hicayemo umuntu utanga serivise imbere ye hari umuntu bigaragara ko ari guhabwa serivise. Ku kazu gafite ibara ry'umuhondo hariho ikirango cya Airtel ndetse na MTN, hariho umuntu bigaragara ko ari gusaba serivise.

Abagabo batatu bahagaze ku kazu bakoreramo, ishami rya umutiyene ndetse na tigo na eyateri icyarimwe. Hari umuntu wambaye umupira utukura, wambaye umupira ufite ibara ry'ivu n'uwambaye ishati y'umweru, bose baje kwaka serivisi zijyanye n'itumanaho.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo cyanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara bigaragara ko ari ikirango cya MTN, munsi yaho gato hari umurongo wanditsemo amagambo y'umukara uri mu ibara ry'umweru, wanditseho izina, munsi yawo gato hari imibare bigaragara ko ari ikoreshwa bishyura bakoresheje ikoranabuhanga.

Akazu gato kari mu ibara ry'umuhondo kandikishijweho amagambo mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, hariho n'irindi jambo ryanditseho MTN, bigaragara ko hatangirwa serivisi za MTN zijyanye no kubitsa no kubikura amafaranga. Imbere yako hari umuntu bigaragare ko ari gusaba serivisi za MTN.

Ikirango ku bufatanye na mobile money ishami rya MTN, ryashyizweho uburyo bwiza bwo kwishyura nta giciro udahenzwe ukoresheje telefoni yawe, ni ugukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe ugashyiraho kode y'umucuruzi, maze ukishyura batagukase, haranditse ngo nta yandi mafaranga wishyuzwa.

Umugabo uhagaze wambaye kasike y'icyatsi n'ishati y'icyatsi yanditseho vuba, imbere ye hari moto ihetse igisanduku kiri mu ibara ry'icyatsi cyanditseho vuba, bigaragare ko hari ibintu ari gukura muri icyo gisanduku.

Isoko rigurisha ibicuruzwa rikoresheje ikoranabuhanga, biragaragara ko ushobora kugura ndetse ukagurisha ukoresheje ikoranabuhanga, ukishyura ukoresheje terefoni cyangwa se ukoresheje n'ubundi buryo bw'ikoranabuhanga.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, handitsemo amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, ku ruhande rwayo hari umuntu ufite igikarito ku rutugu, yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umukara ndetse harimo n'ibara ry'umuhondo, bigaragara ko aha hantu hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye kandi bakaba babikugereza iwawe mu rugo nta giciro bigusabye.

Mugice cya moto imbere ahu bashyira telefone ukabigenda yereka umumotarimizero avuganamo ibirometero amaze kugenda bitewe naho asigaje bihita byikora umugenzi bahita abona amafaranga agomba kwishyura bitewe n'ibirometero umumotari agiye.

Ni ifoto iriho ibyo kurya bitandukanye tangawizi, kokombure, inyanya, amashu n'izindi mboga. Ihahire neza wirire neza wowe ubuzima bwawe neza uririnde kurwaragurika kwa hato na hato.

Inzu nziza cyane yubatse neza. Ifite esikariye zirimo amabara, ikikijwe ibyuma bifite ibara ry' umweru. Imbere yayo hari amapave bigaragara ko iyi nzu igurishwa.

Ni inzu nziza yubatse neza isize amarangi y'umweru yubakiyemo akabati wabikamo utuntu twinshi cyangwa udukoresho dutandukanye, iyi nzu wayikodesha amadolari igihumbi n'ijana ku kwezi iherereye i Kigali mu Rwanda.

Nta hantu wakwicarana n'abawe mukaganira hateguye neza intebe nziza z'umweru, ziriho udusego ku duto duto turi mu ibara ry'ivu, hari aka ameza k'umukara ndetse iyi nzu wayikodesha amadolari igihumbi n'ijana ku kwezi iherereye mu mujyi wa Kigali.

Inzu ndende cyane ifite amabara atandukanye ifite amabara y'umuhondo ndetse n'amabara y'umukara; imbere ifite igipangu gifite urugi rusize amabara y'umukara imbere yaho hari amapave.

Ahantu heza cyane hafite jaride nziza iteyemo ibiti; inyuma yayo hari igipangu cyiza, kinini, bigaragare ko aho hantu hakodeshwa...

Inzu nziza iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umuhondo, iruhande hari akabati gateretseho imbuto zigiye zitandukanye, harimo imineke harimo pome, harimo n'inanasi.

Salo nziza cyane irimo intebe nziza, ndetse n'amatara meza, inyuma kurukuta hari ishusho igaragara neza, harimo n'ameza ateretseho amasahani ariho ibyo kurya bitandukanye, ndetse n'indabyo ku ruhande.

Inzu shyashya yo kugurisha iherereye mu Mujyi wa Kigali i Kanombe, ni inzu nziza isize amarangi ari mu ibara ry'ivu, icyatsi cyerurutse ku bikuta n'icyatsi kijimye ku madirishya. Hari amatara ari kwaka. Ifite igisenge cy'ibara ry'umutuku ryijimye. Iyi nzu yagurwa amadorari ibihumbi mirongo itandatu na bitanu.

Ni ahantu hateguye neza mu nzu mo imbere, aho wabika udukoresho, hari utubati. Ni icyumba wabamo mbese ukamererwa neza gifite isuku. Iyi nzu wayigura miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri, iherereye muri Kigali mu Rwanda.

Inzu nziza cyane iteguye neza, hari imeza iteretseho ivaze y'ururabyo, hirya hari izindi ntebe ndetse n'imeza bigaragare ko ari aho barira, iruhande rwayo hari igitanda giteguye neza kiriho ibara ry'umweru.

Iyi ni inzu nziza isize amarangi asa n'ibara ry'ivu, imanitseho cashpower ibara umuriro w'amashanyarazi, ibirahuri ni byiza bya fime, yingerereye i kigali kimironko ifite ibyumba bitatu byo kuraramo, ifite aho kwegera habiri, wayikodeshe ibihumbi magana atatu ku kwezi.

Iyi inzu yubatse ifite inkingi eshatu, amadirishya y'umweru asizeho irangi rifite ibara ry’ivu, igisenge gisize ibara ry’ivu kiriho na kanari.

Inzu nini cyane kandi nziza iri m'ibara ry'umweru ndetse hagiye harimo n'amabara y'umukara, imbere yayo hari amavase arimo indabyo ndetse n'imbere yayo hari amapave afite amabara atandukanye.

Ni inzu nziza isize amarangi y'iroza n'andi ku bikuta asa umweru, hari umugabo wishimye wambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'umweru, iyi nzu yagurwa miliyoni mirongo icyenda.

Inzu yubatse mu mujyi wa Kigali i Kanombe, ifite ibyumba bine byo kuraramo, ubwogero butatu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi, ni inzu yubatse ruguru y'umuhanda, isize amarangi meza yubatse neza.

Inzu nziza cyane iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, imbere yayo hari amapave ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, ku ruhande rwayo hari ijerekani ifite ibara ry'umuhondo. Imbere yayo hari umuntu wunamye wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu ndetse n'ijipo ifite ibara rya kake, hariho ibiciro biragaragara ko iri kwamamazwa.

Umuryango ufunguye uwo muryango usize amarangi asa nk'ivu kubirahure nyirizina hari ishusho y'uru rugi ruri hakurya tutari kubona ariko ruri kuboneka mu birahure, iyi nzu ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bubiri, ni iyo gukodesha hari aho wayisanga ni i Kibagabaga.

Inzu nziza, ndende cyane. Imwe dukunze kwita etage, imbere yayo hari ibyatsi biteyeho uduti twinshi. Bigaragare ko iyi nzu igurishwa cyangwa se iri ku isoko, kuko hariho ibiciro byayo.

Ni inzu nziza cyane iri mu mabara atandukanye, ikikijwe n'urugo rwubakije amatafari y'impunyu, iriho urugi runini cyane ruri mu mabara y'umutuku, ivu ndetse n'umweru. Iyi nzu ni iyo gukodesha, iherereye i Kigali Kimironko, ifite ibyumba bine byo kuraramo, ubwogero bubutatu, wayikodesha ibihumbi magana atandatu ku kwezi.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, bigaragara ko hatangirwa serivisi zo kugura, kugurisha ndetse no gutira, munsi yaho hari urubuga ushobora kunyuraho kugira ngo ugere kuri izo serivisi.

Abagore banini banini bari mu isoko bambaye udupfukamunwa bari kureba ibyo bakeneye bakabishyira mu gitete kinini, hirya hari abandi bagore babyibushye bahetse amasakoshi na bo bari kureba ibyo bakeneye.

Mu cyumba cyiza hari abantu batandukanye, hejuru ku gisenge harasa umweru, hashashemo amakaro y'umweru, harimo utumeza twinshi tugiye dufite amabara atukura n'umweru, n'inkingi zifite amabara atukura n'umweru.

Isoko rinini ricururizwamo imbuto ndetse n'imboga zitandukanye harimo ibitunguru, karoti, amaronji, ibinyomoro, inyanya ndetse n'ibindi byinshi imbere hahagaze umuntu bigaragara ko ari umucuruzi cyangwa se umuguzi w'izi mbuto.

Aho bacururiza imyenda, hari ibipupe by'abagabo bambika imyenda kugira ngo abayireba babone ko nibura babaye babiguze byababera. Ni ukuri hari imyenda y'ubwoko butandukanye, ariko igaragara cyane ni amakositime y'umukara y'abagabo, hanze y'inzu hari abantu bari kudodesha imyenda.

Inzu nini cyane irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo amacupa ya shampanye, harimo amabiswi, harimo n'ibindi bicuruzwa byinshi, imbere yayo hari umuntu uhagaze afite agakoresho mu ntoki karimo ibara ry'umutuku rigaragara ko ariho atwara ibicuruzwa yaguze.

Umuntu uhagaze wambaye ishati y'umweru yanditseho amagambo, afite mikoro mu ntoki, inyuma ye hari icyapa cyanditseho bigaragare ko ari gutanga amabwiriza y'uburyo watangamo mituweri.

Umugabo uhagaze yambaye ikoti ry'ubururu, ishati y'umweru na karuvati irimo amabara, afite mikoro ari kuvuga, imbere ye hicaye abantu benshi batandukanye, bigaragara ko hano hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuzima.

Inzu ifite inkingi yubakishije amatafari y'impunyu, ku gikuta hasize amarangi y'umweru amadirishya ni umukara, yanditseho posite do sante Kabazungu.

Agakarita ka mituweri. Kanditseho Repubulika y'u Rwanda, Minisiteri y'ubuzima, umujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro. Byaba bibabaje ubaye utagira agakarita ka mituweri. Aka ngaka gafite ibara ry'umuhondo gafashwe n'intoki zigera kuri enye.

Abagore bane bicaye umwe ateruye umwana, begamye ku nzu yubakishije amatafari ya munyu ahiye, inzugi ziri kuri iyo nzu zisize irange ry'umweru bigaragarako baje kwivuza.

Umuntu uhagaze bigaragara ko ari gusaba serivisi, hari n'undi wicaye imbere ye, hari ameza ariho ibitabo ndetse na terefone, ku ruhande afite ikaramu mu ntoki bigaragare ko ari gufasha uje umugana, inyuma ye hari umuntu uhagaze wambaye itaburiya y'umweru.

Abantu babiri, umwe aricaye afite ikaramu mu ntoki, imbere ye hari igitabo ari kwandika, undi ari kureba mu gitabo ibyo ari kwandika, imbere yabo hari meza iteguyeho igitambaro kiri mu ibara ry'ubururu, hariho n'ibitabo ku ruhande, ku ruhande rwabo hari etajeri irimo ibitabo byinshi.

Imeza iriho ibikoresho bigiye bitandukanye, hariho impapuro, hariho amafoto atandukanye, hariho ikaramu, hariho telefone ndetse n'icupa riteretseho amazi. Biragaragara ko ari umuntu uri kugenda abishyira ku murongo.

Abagore n'abagabo bahagaze bambaye neza, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo bigaragare ko aha hari ibikorwa bihakorerwa bijyanye no gutanga ubwisungane mu kwivuza kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza.

Hari ubusitani bwiza impande zabwo hateye uturabo tw'umuhondo. Haruguru ku nyubako ihari isize irangi ry'umuhondo n'igisenge cy'ubururu, hari abagore bahetse abana baje gukingiza no gupimisha ibiro by'abana babo, ruguru yabo hari ikigega cy'umukara kijyamo amazi mu gihe cy'imvura.

Iduka rinini cyane dukunze kwita supermarket, ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo biswi z'akararabo ziri mu ibara ry'umuhondo, harimo amakarito yanditseho Inyange, harimo n'amacupa y'ubwoko bwose, bigaragare ko ari ahantu hahahirwa ibijyanye n'ibyo kurya.

Mu isoko risirimutse aho tubona ko hari n'inyama hari imbuto zitandukanye ha bitandukanye ibyo kunywa amagi, amata n'ibindi aha ni ahantu heza iyo uhageze atambuka ukayifata ibyo ushaka nyumaanywa ukajya kubarisha.

Aho bahahira amata, ibindi byo kunywa, amaji ndetse n'utundi tuntu wakwifashisha byihuse, amabiswi y'akarabo, hari n'abantu benshi baje kuhagurira, urubyiruko.

Bahacururiza ibintu bigiye bitandukanye, wabona amata, wabona amabiswi y'ubwoko bwose, hari n'ibindi utabasha kumenya ubaye utahageze.